Umugore ufite mikoro wambaye ishati y'umukara ndetse n'amarinete, afite na porojegiteri imbere ye, arimo arasobanurira abandi bicaye ibijyanye n'uko ubukungu bushobora kuba bwazamuka.

Abagore n'abagabo bari mu nama, ku meza y'imbere hicaye abagore batatu bambaye rinete kandi bose bateze amatwi, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi kandi bari kugenda basomaho gake gake kugirango bavume.

Abaturage baricaye kandi baratuje, imbere yabo hari umuyobozi wabo, uri kubasobanurira gahunda nziza ya ejo heza kuko ari bo ifitiye akamaro kandi bagomba kuyifatanyamo kugira ngo babeho batuje.

Abaturage batandukanye biganjemo urubyiruko bicaye hamwe batuje, bambaye kandi imipira y'umuhondo igaragaza y'uko baje mu gikorwa cyatewe inkunga na USAID.

Abagabo n'abagore bose bari mu nama cyangwa se amahugurwa, buri wese afite icupa ry'amazi imbere ye kugira ngo aze gusomaho bibaye ngombwa yuko inyota imwica, kandi bafite amakayi bari kwandikamo ibitekerezo bakuyemo.

Icyumba cy'inama kirimo abayobozi bagiye batandukanye, bose bicaye mu myanya yabo, kandi bateze amatwi kugira ngo bungurane ibitekerezo bitandukanye, kandi bagere ku myanzuro ifatika.

Abaturage bazindukiye mu bikorwa by'umuganda rusange, nyuma ya bicaye hamwe kugira ngo baganirizwe n'abayobozi babo, bari kungurana ibitekerezo kuri gahunda nziza cyane ya leta kandi barimo kubyumva rwose.

Abagabo n'abagore bose bicaye ku meza amwe, bose barategereje kandi bateze amatwi, imbere yabo hari umugabo ni umuyobozi, arimo kubaganiriza kandi ari kubabwira ibyo bashobora kugeraho.

Abagabo n'abagore batandukanye bose bicaye mu nama, abagabo bambaye amakote naho abagore bo bambaye neza cyane imyambaro yiganjemo amabara y'umutuku, bose bafite telefone mu ntoki zabo baricaye bakurikiye inama.

Abagabo bane babiri bicaye imbere abandi babiri bicaye inyuma, ab'inyuma bo bambaye amashati y'imyeru kandi bafite n'imashini kompiyuta imbere yabo, ab'imbere bo umwe ni umusirikare yambaye isaha ku kuboko undi yambaye ishati.

Abagabo n'abagore bose bahuriye mu nama nyunguranabitekerezo, bicaye barebana kandi barahuze kuko bari gutanga ibitekerezo by'ingenzi byabagirira akamaro kandi bikagirira akamaro na sosiyete muri rusange.

Abagabo n'abagore bose bari mu mahugurwa, bicaye ku ntebe nziza cyane zifite ibara ry'umutuku, umugabo abahagaze imbere arimo arabaganiriza kandi akabaha ibitekerezo by'ingenzi byabafasha mu buzima bwabo.

Abanyeshuri bari mu ishuri barimo kwiga bakaba bateze amatwi kandi bicaye batuje, ameza abari imbere ariho ibitambaro by'umutuku kandi buri wese yicaranye ikayi ndetse n'ikaramu na telefone ye kugira ngo bimworohere.

Abagore ndetse n'abagabo, bose bicaye mu nama nyunguranabitekerezo, baratuje kandi barakurikiye kugira ngo bigire hamwe umuti w'ibibazo bahura na byo mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi baraza kubibona kuko baratuje cyane.

Abagabo batatu n'umugore umwe bari mu nama bicaye ku meza akozwe muri Emudiyefu, bose kandi bafite amazi yo kunywa kugira ngo batarambirwa. Bafite impapuro n'amakayi imbere yabo kugira ngo bandike ibitekerezo by'ingenzi.

Abagabo n'abagore bose bicaye mu nama ku ntebe zabo zisa imikara, bafite amazi ateretse imbere yabo kugira ngo nibaza kugira inyota basomeho kandi bari kungurana ibitekerezo.

Abagore batandukanye bagiye bambaye amakanzu atandukanye bari mu nama ibahuza n'Umujyi wa Kigali kandi barimo kungurana ibitekerezo, birarangira bageze ku mwanzuro mwiza.

Repubulika y'u Rwanda, Umujyi wa Kigali, Akarere ka Kicukiro, Umurenge wa Kigarama. Abagore batatu bicaye mu nteko rusange, bari kumwe n'umugabo wundi, bose hamwe bakaba baje mu nama hamwe n'abaturage.

Abagore babiri bicaranye bombi bambara marinet, uri ku ruhande yambaye ibubu irimo amabara y'umweru ndetse n'amabara yi'cyatsi, afite n'imashini iteretse imbere ye, umukurikiye na we afite imashini y'umukara iteretse imbere ye.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama, bicaye ku meza bafite ndetse n'amakayi n'amakaramu kuko bari kwitegura kwandika ibitekerezo by'ingenzi biri buvugirwemo bose bahanze amaso umuyobozi wabo.

Abagabo n'abagore biganjemo urubyiruko bose bicaye mu nama nyunguranabitekerezo, imbere yabo bafite amakayi ndetse n'ikaramu, utabifite afite imashini compiyuta kugira ngo babashe kwandikamo ibitekerezo by'ingenzi.

Umugabo wambaye ikote ry'icyatsi na karuvati y'ubururu yambaye n'amarinete, yafashwe ifoto y'urwibutso kugirango azahore yibuka izo gahunda yari arimo, imbere ye hari amazi ateretse ku meza akozwe mu giti.

Abaturage bose bicaye ku meza amwe, abagabo babiri n'undi mugabo umwe urimo kwandika ku rupapuro, bari kumwe n'umugore nawe wicaye ku ntebe ye utuje.

Abagabo n'abagore bose baricaye. Bicaye ku ntebe z'imikara kandi bafite mudasobwa bose imbere yabo. Bari mu mahugurwa akenewe kandi y'ingenzi. Bari kubungura inama zabafasha mu buzima bwabo.

Abagabo n'abagore bari mu nama nyunguranabitekerezo, buri wese afite ikayi ndetse n'ikaramu, bamwe muri bo bafite n'imashini kugira ngo babashe kuba bakandika ibitekerezo by'ingenzi bivugirwa muri iyi nama.

Umuyobozi uhagaze imbere y'abaturage, bicaye kandi batuje, arimo arabasobanurira gahunda nziza za leta, kandi bose bateze amatwi kuko bifuza kuba aba baturage beza bagendera kuri gahunda.

Abagabo n'abagore, bicaye mu cyumba cy'inama, ku ntebe z'imikara, ndetse n'ameza akozwe muri MDF, amazi atetse imbere yabo, kandi buri wese afite agakayi, ndetse n'ikaramu, kugira ngo yandikemo ibitekerezo by'ingenzi.

Abayobozi bari mu nama nyunguranabitekerezo, kandi bombi baricaye kugira ngo barebere hamwe imiti y'ibibazo bafite, kandi baratuje, higanjemo abagore benshi kuko bafite ijambo kandi barishimye rwose.

Abayobozi batandukanye bicaye imbere y'abaturage bakaba bari mu nama y'inteko rusange y'abafatanyabikorwa b'akarere ka Gasabo, bose baratuje kandi baricaye kugira ngo bumve kandi baganire ku bintu by'ingenzi.

Abagabo abagore bose bicaye mu ntebe nziza cyane buri wese afite mudasobwa imbere ye kugira ngo akurikirane neza amahugurwa atuje kandi ari kugendana n'abandi.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubucuruzi kandi hari serivisi nyinshi zigenda zitangwa urugero nka serivisi za banki ya ekwiti hari kandi aba ajenti batanga serivisi zigiye zitandukanye zose.

Umugabo wambaye ingofero, wicaye imbere ya mudasobwa, arimo aratanga serivisi zigiye zitandukanye kandi imbere ye hari n'imashini ifotora kugira ngo buri muntu afate fotokopi bitewe n'izo akeneye.

Shansiye iriho abakozi bagiye batandukanye, bose bambaye ibikoresho bibafasha mu bwirinzi, amajire ndetse n'ingofero zo mu mutwe zibarinda kuba bakomereka.

Arajibi ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere, kikaba cyashyize hamwe imyanzuro ndetse n'ibisubizo byavuye mu nama nyunguranabitekerezo. Bakaba batanze itangazo rireba abanyamakuru.

Abagore babiri bari muri bisi umwe ari kwereka mugenzi we muri terefone ye, hirya yabo hari umugabo urimo kubareba wambaye ishati y'ubururu n'ijire y'umukara.

Uburyo bworoshye kandi bwihuse ushobora kuba wakihindunriramo pasuwadi yawe, muri tagisi. Sura wa wa wa Rwanda revenyu otoriti, doti, govu, akadomo, rwa ukanda ahanditse geti pasuwadi.

Ukwezi kwahariwe abasora ko gushimiramo abasora, mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe bahaye igihembo umuntu witwaye neza mu gusora kandi iki gikorwa kiba ngarukamwaka. Rwanda reveni otoriti ihemba umuntu wasoze neza kurusha abandi.

Tangamarara na teveya twongeye kubatangamaza ishimwe kuri teveya yongeye gutangwa Rwanda reveniyu otoriti irimo iramenyesha abantu bose yuko bongeye guhemba abantu neza neza nk'uko byagenze umwaka ushize ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe.

Irembo govu uko usaba icyangombwa kigaragaza yuko utuye, uwitwa Uwera Jesica ufite nimero y'irangamuntu ijana na cumi n'icyenda mirongo icyenda na gatandatu, akaba yagisabye kandi yakibonye.

RGB, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, kiri gutanga serivisi zigiye zitandukanye kandi zose ukaba wazisomera ku ikoranabuhanga. Ni ukuvuga kuri terefone yawe cyangwa mudasobwa yawe.

Umugabo uri imbere ya kiyosike ya tekino itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, bakaba bagufitiye telefone zihendutse kandi nziza cyane, umugabo umwe avuye kuyigura kandi ameze neza arishimye.

Ikirango cy'uko hano hari wifi y'ubuntu, ryoherwa na wifi y'ubuntu, ushobora kwicara hano maze ukabo wakora ibikorwa byawe bitandukanye kuko hari interinete nziza yihuta kandi igezweho.

Icyapa cyamamaza cya emutiyeni, icya beka, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye urugero nk'icya eyateri, inzu ikoreramo umu ajenti utanga serivisi zigiye zitandukanye, zaba iz'irembo, iza emutiyeni, iza eyateri, n'ibindi.

Icyapa kinini cyane kimanitse ahantu hari umunara utanga sinyari cyangwa se network, kugira ngo abaturage babashe guhamagara kandi babone internet nziza.

Umugabo uhagaze imbere y'umugore urimo kumwakira, uyu mugore yambaye umupira w'umweru kandi afite imashini kompiyuta imbere ye, afite na bike mu ntoki ze arimo arandika amwe mu makuru y'ingenzi.

Ibiro byiza cyane bitandukanye, birimo amatara menshi meza kandi agaragara neza. Harimo inebe ndetse n'ameza matoya afite ibara rya kaki.

Abagabo babiri, harimo umwe wambaye ingofero, imurinda kuba yahura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu gihe ari kuri shansiye, ari kumwe n'umugore umwe wambaye umupira w'umweru, ufite telefone mu ntoki ze.

Kwigaragaza ku bushake. Uyu munsi ni wo wa nyuma wo kwigaragaza ku bushake. Itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi, bibiri na makumyabiri na kane, ni itariki ntarengwa kandi yemewe. Igihe cyose wigaragaje ku bushake, umuntu akurirwaho amande ndetse n'inyungu z'ubukererwe.

Uburyo bwa Rwanda Reveni, bwashyizweho n'irembo bwa "byikorere" Ushobora kuba wibereye iwawe mu rugo, bityo ukapurayinga cyangwa se ukishyura imisoro, wibereye iwawe. Ubundi icyo usabwa, ni ukuzuza amategeko n'amabwiriza abigenga.

Uburyo bworoshye kandi bwihuta, ushobora kwandika kuri watsapu, ukandikira Rwanda reveni, bityo ukabaza amakuru kandi yizewe, ukaba wakwishyura imisoro ukoresheje telefone yawe kandi birihuta.

Biroroshye kandi birihuta, byikorere ni gahunda nshya y'irembo aho ushobora kuba wakwisabira serivisi zigiye zitandukanye wibereye mu rugo, ushobora kwisabira umwanya wo gukora uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwa burundu.

Witinda kanda kanyenyeri ijana na makumyabiri na gatanu buri rwego, urebe simukadi zikuruyeho kugira ngo utazaba umwe mu nzirakarengane, zizakurirwa simukadi ku murongo bitewe nuko zidakoreshwa na ba nyirazo.

Umunsi mpuzamahanga w'umurimo, ahazaza h'umurimo intego dusangiye, umunsi w'umumo uba ku itariki ya mbere gicurasi buri mwaka, ukaba wizihizwa ku isi hose kandi abantu bose bakaba bagomba kugira icyo bakora kugira ngo babeho.

Imbonerahamwe y'ibyavuye mu bushakashatsi bwa RGS bwa cumi na rimwe, ibipimo ndetse n'inkingi bigenda bisobanura uko ubushakashatsi bwagenze.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi iriho insinga nyinshi kandi hateretseho na taransifa yifashishwa mu kugira ngo bongere umuriro cyangwa se bawugabanye mu gihe bibaye ngombwa.

Sitasiyo y'amashanyarazi iri ahantu hitaruye hadatuye abaturage benshi, iruhande rwayo hari ibiti byiza binini byifashishwa mu kuyungurura umwuka mwiza duhumeka.

Ipoto zitwara umuriro w'amashanyarazi, ziwujyana mu bice bitandukanye birimo abaturage kandi zitwara umuriro uhagije, ku buryo umuturage usanzwe atafatiraho umuriro kuko uba ufite ingufu nyinshi cyane.

Abenjeniyeri batatu bari gukorana inama y'uburyo bakubaka urugomero rw'amashanyarazi, iruhande rwabo hari abashinzwe kubafasha kugira ngo gahunda zose zigende neza ku murongo.

ipoto y'umuriro w' amashanyarazi ica iruhande rw'umuhanda rw'inzira nyabagendwa irimo imodoka nyinshi kandi hari n'umuhanda abanyamaguru bacamo kandi hari amatara amurikira umuhanda kugira ngo bagende babona.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi iriho insinga zijyana amashanyarazi mu baturage, hari na taransifa kandi yifashishwa mu kugira ngo bongere ingufu z'amashanyarazi cyangwa se bazigabanye.

Igipangu gisize ibara rya shokora giteyemo indabyo ndetse n'ibiti byinshi biyungurura umwuka mwiza duhumeka, hari n'ipoto y'amashanyarazi itwara umuriro ikawugeza mu baturage.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi iteye hafi y'umuhanda, kuko mu muhanda hari ibyerekezo byombi kandi harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo kandi na bisi itwara abagenzi muburyo bwa rusange.

Ifoto itwara umuriro w'amashanyarazi iwujyana mu nce za kure cyane, iri muri karitsiye aho hari inzu zigiye zitandukanye ziganjemo izifite amabati atukura, harimo na kadasiteri isize irange y'umuhondo.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi, ijyana umuriro aho bikenewe mu baturage. Ikaba iri hafi y'indabo ndetse n'ibiti byiza cyane bitanga umwuka mwiza duhumeka.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi iriho insinga zijyana amashanyarazi mu baturage, iruhande rw'ipoto hari inzu nziza isize irange ry'umuhondo ifite umuryango usize ibara ry'ubururu.

Igipangu kirimo inzu ya cadasteri nini cyane ifite amabati y'umukara iruhande rw'igipangu hateye ibiti kandi hari nipoto ijyana umuriro w'amashanyarazi mubaturage.

Imodoka eshatu ziparitse ahantu hamwe iy'umweru, iy'umukara, iy'umutuku, hafi yazo haparitse na moto, inyuma hari indi modoka nini y'umweru, ziparitse ahantu hagari hajya n'izindi.

Ingemwe z'ibiti bigiye bitandukanye byiza cyane ziteye ahantu hamwe, urugero hari ingemwe z'ibiti by'imikindo zikiri ntoya cyane, abantu iyo bashaka imikindo baza kugura ingemwe hano bakazijyana mu ngo zabo.

Itara rimurika mu muhanda iyo bwije kugirango abayobozi b'ibinyabiziga babashe kuwucamo babona kandi n'abanyamaguru bacamo babona kuko amatara aba arimo kwaka inyuma y'itara hateye indabo nziza cyane n'ibiti biyungurura umwuka.

Umukozi ukorera ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG. Yuriye ku ipoto kugira ngo atange umuriro w'amashanyarazi ku muturage ubikeneye, arambaye yambaye neza arikwije kandi ariziritse kugira ngo adahura n'impanuka.

Urujya n'uruza rw'abaturage, bari kujya muri gahunda zabo zitandukanye. Bari guca aho Simba ishami rya Kimironko ikorera kandi haba hari ibintu bigiye bitandukanye higanjemo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo ibyo mu rugo urugero: amasafuriya, amabase n'ibindi ikindi kandi hari ibikoresho by'ubwubatsi bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo buri wese yifuza.

Ifoto y'amashanyarazi, iriho insinga zigenda zikwirakwiza amashanyarazi mu baturage bagakomeza imirimo yabo nta kibazo bagize kandi bakiteza imbere.

Igipangu cyubakishije amatafari ya buroke sima gifatanye n'ikindi gipangu kirekire cyubakishije amatafari ahiye, harimo ibiti biyungurura umwuka duhumeka, hafi yaho kandi hari ipoto y'amashanyarazi itwara umuriro.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye uca ahazwi nka CHUB bikaba ari ibitaro bya leta, kandi hari ibinyabiziga byinshi biri kwerekezayo.

Abaturage bicaye ku ntebe bategererezaho kandi baratuje. Baje kwa muganga, kugira ngo baze kuba babonana na we, bityo bamubwire ikibazo bafite nawe abavure akurikije ibibazo bafite, kandi bizeye yuko bari bukire.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye muri gahunda zigiye zitandukanye, bitewe n'iyo buri wese agiyemo ari guca ahe, hagati hari aka jarideri keza cyane karimo utwatsi, hari abagabo n'abagore bafite ibikapu bateretseho.

Parikingi nini cyane, irimo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, hafi ya parikingi hari akajaride keza karimo indabo ndetse n'ibiti, hafi yaho, iyo urebye ku ruhande ubona ikigega kinini cyane kibika amazi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, yegeranye n'ikigega cyubakiye neza, gifata amazi y'imvura. Inzu ifite amabati y'umutuku kandi inyuma yayo hari akajaride karimo utwatsi twiza, tubereye ijisho.

Kwa muganga aho batangira serivisi zigiye zitandukanye kandi hari abantu babagannye kugira ngo babashe kuba bakwivuza kandi babonane na muganga, abashe kubasuzuma, bityo bamenye indwara mu by'ukuri baba barwaye.

Ku bitaro, aho abarwayi bategererereza haba hari intebe zo kuba bicayemo, mu gihe batari bahabwa serivise bari bakeneye, bityo bikabafasha kumva batarambiwe.

Parikingi nini iparitsemo imodoka ya mbere ibanza ni umutuku iyiyikurikiye ifite ibara ry'umweru, naho ivatiri ya gatatu ifite ibara ry'umukara ba nyirazo barazihasiga kuko ziba zifite umutekano uhagije

Korodoro irimo intebe, abagenzi cyangwa se abakiriya baje bagana ivuriro bicaramo kugira ngo bategereze bihanganye, buri umwe muganga agenda amugeraho, bakurikije uko bahageze mbere.

Abagabo n'abagore batandukanye bicaye mu gacaca, kugira ngo babashe kuba bakumva urubanza rw'uregwa, kandi bose baratuje kugira ngo babashe kumva neza ibisobanuro ari gutanga.

Umugore wambaye ikanzu y'umukara ndetse n'agapfukamunwa, yambaye n'amaherena, ari kuvugira muri mikoro, kandi imbere ye hateretse imashini kompiyuta, ndetse n'icupa ry'amazi, ari kumwe n'uwo ari kunganira mu mategeko, na we wambaye agapfukamunwa

Abagabo n'abagore bambaye amakanzu agiye atandukanye, hari abambaye amakanzu y'umukara hari n'abambaye amakanzu umutuku afite amakora y'umukara.

Igazeti ya Leta yo ku wa kane z'ukwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu. Itegeko nshinga repubulika y'u Rwanda, iranga shingiro. Duhaye icyubahiro gikwiye abakurambere b'intwari bitanze batizigama.

Abapolisi bambaye nifomu, bari kumwe n'umugore batwaye kugira ngo atabacika. Iruhande rwe hari umunyamategeko we umwunganira.

Umugabo wambaye imyenda y'umutuku y'abacamanza ndetse n'ingofero y'umukara ifite ibara ry'umuhondo akaba ari kuvugira imbere y'itangazamakuru abasobanurira neza amategeko n'ibijyanye na yo.

Abagabo baje mu cyumba kiberamo urubanza, abacamanza bicaye imbere n'imashini imbere zabo, kandi bambaye agapfukamunwa bose, uregwa ndetse n'umwunganira mu mategeko bicaye barebana.

Umugabo umusirikare, wambaye amarinete, ni igikara kandi afite n'umusatsi w'umukara, ifoto yayuma yafotowe yari yambaye iniformu za gisirikare.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda arimo gutanga imbwirwaruhame ye, yambaye neza kuko yambaye ikote ry'ubururu karuvati y'ubururu ndetse n'ishati y'umweru, yambaye kandi n'amarinete, ahagaze imbere y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abagabo n'abagore bambaye amakanzu y'imikara bahagaze imbere y'amabendera y'igihugu cy'u Rwanda barimo kurahira kuko bagomba gukora akazi kabo nk'uko babyiyemeje rwose.

Abaturage bicaye hamwe batuje, bari mu nama nyunguranabitekerezo n'abayobozi babo batandukanye, kandi baraza kugera ku ntego, kuko bicaye batuje kandi bategereje kumva ibyo umuyobozi yabateguriye.

Abagabo n'abagore batandukanye, harimo abagabo bambaye amakaruvate ndetse na kositime. Bose bafatanye ifoto y'urwibutso kugira ngo bazajye bibuka ibyo bihe.

Igazeti ya leta yo kuwa makumyabiri z'ukwa kenda bibiri na cumi n'umunani by'umwihariko ku ngingo yaryo ya gatandatu gusaba cyangwa gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina, ni icyaha gihanwa n'amategeko.

Abagabo bane bambaye imyenda y'iroze bigaragara ko ari imfungwa cyangwa se abagororwa. Imbere y'abo hahagaze umunyamategeko wa bo wambaye ikanzu y'umukara ifite ibara ry'umweru.

Urukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambuka imbibi, bikaba byarabaye ku itariki ya mbere z'ukwambere bibiri na makumyabiri na gatanu.

Abagabo babiri, uri ku ruhande rw'iburyo yambaye amarinete ndetse yambaye n'ikanzu y'umukara ifiteho utuntu tw'umweru, uwo bari ari kumwe nawe yambaye ikanzu y'umukara.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, afite imashini imufasha kureba niba ibyangombwa umushoferi amuhaye byujuje ibisabwa, yahagaritse imodoka kugira ngo arebe umutekano wayo.

Umuhanda nyabagendwa hafi yawo hari ibishinzwe kuba byazana amazi biyavanye mu matiyo, kandi birihuta biremewe kuko birinda inkongi y'umuriro kuba yakangiza ibikorwa byinshi.

Sitasiyo ya polisi ya Rwezamenyo iherereye mu karere ka Nyarugenge, kandi ikaba ifite n'imodoka nyinshi ziba zihaparitse zifasha abapolisi kuba bajya mu mirimo yabo ya buri munsi.

Icyapa kinini cyane kigaragaza yuko kuri polisi ya Rwezamenyo bakora igihe cyose, ushobora kubahamagara kuri telefoni zikurikira, arizo: zero karindwi umunani umunani gatatu rimwe rimwe rimwe gatandatu gatandatu.

Ikipe ishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro iba yambaye inifomo zisa kandi zishobora kuba zitagerwaho n'inkongi y'umuriro mu buryo bworoshye, bazanye imodoka kugirango ibafashe kuba bazimya inkongi y'umuriro yabaye.

Ikinyabiziga cya polisi y'u Rwanda kigizwe n'amabara akurikira: umweru ndetse n'ibara ry'umukara. Inyuma kiba gifite intebe abapolisi bagenda bicayeho. Giparitse hafi ya banki ya zigama siyesesi.

Ikinyabiziga cya polisi ishami ryo mu muhanda rishinzwe gucunga umutekano wo mu muhanda kikaba gifite amabara akurikira umukara, umweru ndetse n'utubara tw'umuhondo.

Umupolisi uri gukoresha ikizamini kugira ngo arebe niba abanyeshuri bujuje ibisabwa, kugira ngo babashe kuba bahabwa perimi, umupolisi umwe aba ari imbere undi ari inyuma kugira ngo barebe neza.

Kizimyamwoto nini cyane y'umugozi, yifashishwa mu gihe hari ibyago bibaye by'uko inyubako ifatwa n'inkongi y'umuriro, ikaba itabarira hafi kugira ngo hatabaho kwangirika ku ibintu byinshi icyarimwe.

Kizimyamwoto ebyiri zifite ibara ry'umutuku, zifashishwa mu kugira ngo zizimye inkongi y'umuriro mu gihe yaba yafashe inyubako, bityo ibikoresho byinshi ntibibashe kuba byakwangirika.

Umupolisi w'umugore ufite ibyangombwa byose akeneye, kugirango akore akazi arimo, akaba ashinzwe umutekano wo mu muhanda, yambaye ijire iriho amabara y'icyatsi n'umukara.

Kizimyamwoto ebyiri, imwesa umweru kandi ni nini, indi yo isa umutuku kandi ni ntoya ugereranyije n'iyi y'umweru, zombi ziteretse ahantu hamwe kugira ngo zizifashishwe mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga kimwe cya polisi y'u Rwanda. Ikaba ari ikamyo yifashishwa mu kugira ngo itware abapolisi benshi icyarimwe, bityo bajye mu kazi kabo ka buri munsi.

Kizimyamwoto ebyiri z'umutuku imwe iteretse hasi indi iramanitse, kandi zose zifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe bibaye ngombwa kandi bikarinda yuko ibintu byakwangirika ari byinshi.

Imodoka y'u Rwanda ya polisi y'igihugu ishinzwe kuba yazimya inkongi y'umuriro kandi ikaba yanatabara mu gihe bibaye ngombwa ikaba iba ifite ibara ry'umweru ndetse n'utubara tw'ubururu.

Kizimya mwoto iri mu icupa ry'umutuku, iteretse aho buri wese abasha kubona, kugira ngo mu gihe inyubako ifashwe n'inkongi y'umuriro yifashishwe mu kuyizimya, bityo umuriro ntiwangize ibikorwa byinshi.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda yambaye ikote ryiza ry'ubururu ndetse n'amarinete, yambariyemo ishati y'umweru na karuvati y'umukara, afite impapuro mu ntoki ze arimo kuzinyuzamo amaso, hari abandi bagabo ndetse n'abagore bahicaye.

Umugore Urimo gufatwa ifoto y'urwibutso, yambaye umupira w'umweru kandi imbere ye hari mikoro, yicaye ku ntebe nziza y'umukara kandi ateze amatwi, kugirango yumve ibitekerezo by'ingenzi biravugirwa ahari.

Abagabo babiri barimo gufatana ifoto y'urwibutso. Umwe yambaye rinete, naho undi we ni muremure ntabwo yambaye rinete. Bafatanye agafoto k'urwibutso kugira ngo bazahore bibuka ibihe byiza bagiranye.

Ikirango cya n ,f, p, o ,rikaba ari ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry imitwe ya politiki, demokarasi n'ubwumvikane, n'ubwisanzure, bikaba ari byo bimirije imbere.

Umukandida perezida Mpayimana Philippe nawe arimo kwifatanya mu gikorwa cy'amatora, yabimburiye abandi kandi kugira ngo nawe abashe kuba yatora, yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro ya kacyi, ari mu cyumba cy'itora.

Abagabo babiri bahagararanye, umugabo umwe wo ku ruhande yambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru na karuvati, undi we ni umusirikare w'Igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu ndetse n'shati y'umweru yambaye na karuvati y'umuhondo, yicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari ameza ateretseho mikorofone ariho n'amazi yo kunywa.

Efuperi Inkotanyi, mu idarapo ryayo ririmo umutuku, umweru ndetse n'ubururu, bikaba biba byanditsemo inyuguti eshatu zandikishije ibara ry'umukara Efuperi.

Muhayimana Phillipe; umukandida perezida, wambaye ikote rya kake ndetse na karuvati y'umukara, yambaye n'ishati y'umweru, ahagaze imbere y'abaturage, afite mikoro kandi ari kubagezaho imigabo n'imigambi ye.

Abayobozi n'abaturage bahuriye hamwe kugira ngo bakorane inama nyunguranabitekerezo kandi bagere ku mwanzuro mwiza uhamye, bose baricaye baratuje kugira bungurane ibitekerezo.

Ikirangantego cya PSD parti sociales democrate, kikaba kirimo igipfunsi gifashe isaka, mu mabara meza cyane y'icyatsi, ubururu n'umweru.

Umukandida Perezida Mpayimana Philippe ari kubwira i mbwirwaruhame abaturage bamuteze amatwi kandi ari kubi kubizeza yuko igihe azaba amaze gutorwa bazabaho neza kandi buri wese akagira uburenganzira bwe.

Madamu wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Jeannette Kagame yicaranye n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, umugabo uri iruhande rwe yambaye ikote ry'umukara, karuvati y'ubururu n'ishati y'umweru.

Umukandida perezida MPAYIMANA philippe, afite mikoro ari kuvugisha abaturage mu mbwirwaruhame nziza yateguye kugira ngo ababwire imigabo n'imigambi kandi ari kubizeza ko nibamutora azabibagezaho rwose.

Abayobozi batandukanye abagore ndetse n'abagabo babiri bose bakaba bari mu cyumba bakoreramo inama buri wese afite mudasobwa imbere ye kandi bambaye amakote barasa neza rwose.

Umuhanda nyabagendwa ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ufite aho abanyamaguru bashobora kwambukira hazwi nka zebura korosingi hari gucamo bisi itwara abagenzi muburyo bwa rusange.

Umuhanda nyabagendwa, urimo gucamo ikinyabiziga cya bisi, cyifashishwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange, kandi buzuyemo. Hakurya y'umuhanda hari ibiti byiza cyane, byifashishwa mu kuba byayungurura umwuka mwiza duhumeka.

Umuhanda nyabagendwa ufite amatara awumurikira iyo bwije, hari kunyuramo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, itwaye abantu ibajyanye aho bagiye kandi hari n'abagenzi bagitegereje izindi bisi.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange nini itwara abantu benshi icyarimwe kuko bamwe bagenda bicaye abandi bakagenda bahagaze, izi modoka ziba ziparitse ahantu hamwe zirindiriye abagenzi ko baza.

Ikinyabiziga gitwara ibicuruzwa byiganjemo iby'ubwubatsi, cyo mu bwoko bwa hoho gifite ibara ry'umutuku. Kikaba cyikoreye umucanga. Kiri kunyura mu muhanda nyabagendwa.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye. Harimo imodoka iri kunyuraho, ariko abashinzwe umutekano bayihagaritse kugira ngo babanze barebe niba ifite ibisabwa byose, itaza guteza impanuka.

Umuhanda nyabagendwa uri kunyurwamo n'ibinyabiziga, ikinyabiziga kirimo kinini gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange kizwi nka Yutongo, gitwara bamwe bahagaze abandi bakagenda bicaye.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo bisi nini cyane yaRitico yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange ibavana ahantu hamwe ibajyana ahandi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, imbere hari imodoka yo mu bwoko bwa fuso isize amarangi y'umweru, iyikurikiye nayo ni ifuso itwara imizigo y'abaturage kandi ikayigeza aho bagiye.

Umuhanda nyabagendwa uri gucamo ikamyo yo mu bwoko bwa hoho, yikorera imizigo ijyanye n'ubwubatsi, mu gahanda k'abanyamaguru ho hari kunyuraho umugabo wambaye umupira w'umweru, ufite ijerekani mu ntoki.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, higanjemo ibinyabiziga bitwara abantu ku giti cyabo. Hari n'ikamyo nini cyane itwara ibicuruzwa, ifite ibara ry'umuhondo n'umutuku.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, by'umwiharikoyo iby'abantu ku giti cyabo, kandi harimo na moto zitwara abagenzi, mu muhanda hagati haba hari akarwa kahatandukanyije gateyemo ibyatsi ndetse n'ibiti.

Imodoka y'ivatiri isa shokora, ikaba iparitse. Ruguru hari imodoka iri mu muhanda nyabagendwa isa umukara kandi mu muhanda w'abanyamaguru hari kugendamo abagabo babiri bari kugenda baganira.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hafi yaho hari umugabo wicaye kandi arategereje, mu muhanda harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye by'abantu ku giti cyabo, harimo rava ifite ibara ry'umukara.

Bisi nini cyane yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, itwara abantu benshi icya rimwe kuko bamwe baba bicaye abandi bahagaze. Iparitse muri gare kugira ngo abagenzi nibaza baze kuzijyamo zibajyane aho bagiye.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange irimo abantu bakeya, iri guca mu muhanda nyabagendwa kugira ngo igenda ifata abagenzi kuri buri cyapa cyose irabasangaho ibajyane aho bagiye.

Amakamyo ndetse n'utumoto dutoya twalifani twifashishwa mu gutwara ibicuruzwa bitarengeje toni, tukaba duparitse hamwe kandi abadutwara bariteguye kugira ngo baze gufasha ababagana.

Umuhanda nyabagendwa uba urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, harimo ikamyo yo mu bwoko bwa fuso, isize irangi ry'umweru irimo iragenda, hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti byiza cyane biyungurura umwuka duhumeka.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye higanjemo moto zitwara abagenzi kandi hari n'imodoka z'abantu ku giti cyabo, hepfo y'umuhanda hari amazu y'ubucuruzi akorerwamo serivisi zigiye zitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa, urimo ibinyabiziga bitandukanye, wiganjemo kandi ibinyamitende, kuko bitwara abagenzi. Uyu muhanda kandi ufite amatara awumurikira iyo bwije, abagenzi bacamo bareba.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Mu muhanda w'abanyamaguru ho hari urujya n'uruza rw'abantu, bari kujya muri gahunda zabo zitandukanye. Mu muhanda hari kunyuramo ibinyabiziga byiganjemo moto zitwara abagenzi.

Umuhanda nyabagendwa ucamo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka z'abantu ku giti cyabo izitwara abantu mu buryo bwa rusange, moto, ibinyamitende, n'ibindi hari na sitasiyo kandi kugira ngo abantu babone esansi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, higanjemo moto zitwara abagenzi kandi harimo n'imodoka nini zitwara ibicuruzwa, hari n'imodoka z'abantu ku giti cyabo, mu kayira k'abanyamaguru ho harimo guca urujya'uruza rw'abantu.

Ibiti biteye iruhande rw'inzira nyabagendwa, biyungurura umwuka mwiza duhumeka. Muri kaburimbo ho hari guca imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, isize amarangi y'umweru, ubururu n'icyatsi.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso irimo kubisikana na bisi nini cyane itwara abagenzi muburyo bwa rusange, hari n'umunyamaguru urimo kugenda mu kayira k'abanyamaguru.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hariho makuzuku idafite contineri, iri kubisikana n'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Inzira nyabagendwa inyurwamo n'ibinyabiziga byinshi, harimo ikamyo nini cyane ihetse ibicuruzwa isa umuhondo, kandi inyuma ipakiye matera za rwandafomu nyinshi cyane.

Ikinyabiziga gitwara imizigo igitandukanye, gifite kontineri ifite ibara ry'umuhondo, ndetse igitwe cyayo gifite ibara ry'umweru, kiri guca mu muhanda nyabagendwa kiri kubisikana n'umumotari.

Sitade itwikiriye ifite aho abantu bashobora kuba bakicara kandi bakaba batuje bitewe nuko nta zuba ribageraho cyangwa se ngo banyagirwe bakabasha gukurikirana umukino batuje.

Inyubako igeretse inshuro ebyiri, isize irangi ry'umutuku ku mabati ndetse no ku mireko byayo. Imbere yaho haca umuhanda uba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakurya hari ikibuga kinini abana bakiniraho.

Ikibuga cyiza kandi cyubatse neza gikinirwaho basiketi, kikaba kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'icyatsi kibisi. Abantu ntago bari kugikiniraho ubu, kubera y'uko atari amasaha meza yo gukina basiketi.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'umutuku, kimenyesha y'uko umushoferi utwaye imodoka yenda kugera aho abanyamaguru bambukira bityo agomba kugenda yitonze.

Icyapa cyo mu muhanda kimenyesha, ishusho ni mpande eshatu ikirango kiri mu ibara ry'umukara, kikaba kimenyesha umushoferi yuko agomba kugenda gake yitonze kuko imbere hari gukorerwa imirimo y'ubwubatsi.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko ni umweru, hanyuma kiri mu ibara ry'umweru, icyapa gifite ibara ry'ubururu, kikaba kimenyesha yuko ushobora gukomeza imbere.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho y'uruziga kiri mu ibara ry'ubururu kandi ikirango cyandikishije ibara ry'umweru, bisobanuye yuko umuhanda umugenzi arimo cyangwa se utwaye ibinyabiziga imbere gatoya ufite undi muhanda uwinjiriramo ariko ukata iburyo.

Icyapa cyo mu muhanda kimenyesha abashoferi kandi kizengurutswe n'ibara ry'umutuku ikirango kiri mu ibara ry'umukara buri mushoferi ukibonye amenya yuko atagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu ku isaha.

Icyapa cyo mu muhanda cyerekana umuhanda nyabagendwa, mu gihe umaze kuba waba mutoya, cyerekana ko imbere gatoya aho uri kwerekeza umuhanda ari mutoya kurusha uwo urimo.

Ibyapa byo mu muhanda, ikibanza kimenyesha umushoferi yuko imbere hari umuhanda uca m'uwo arimo, kandi ikiri munsi cyo cyerekana yuko hafa aho hari abanyeshuri cyangwa se abana bashobora kuba barimo kwambuka.

Icyapa cyo mu muhanda kiyobora abashoferi bitewe n'aho bagiye bakamenya icyerekezo, iyo bashaka gukomeza uyu muhanda, baba bagiye ku Kanyaru cyangwa se muri Huye cyangwa se bakajya i Muhanga, iyo bakase iburyo, baba bagiye mu Ruhango mu Kinazi.

Umuhanda nyabagendwa ubujijwe kuba wanyurwamo n'amapikipiki, harimo abagenzi bahagaze mu nzira y'abanyamaguru, umugore ndetse n'umugabo, umugore wambaye imyenda y'umutuku umugabo we yambaye ikote.

Icyapa cyo mu muhanda ndanga cyerekezo cya ke ke magana ane mirongo itatu n'icyenda esiti, kikaba kiranga nomero y'umuhanda kugira ngo abatwaye imodoka cyangwa se abagenzi basanzwe babashe kumenya umuhanda bari bucemo.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu kikaba gifite umuzenguruko w'ishusho y'umutuku, ikirango kiri mu ibara ry'umukara, kimenyesha umushoferi wese yuko imbere hari abana bavuye ku ishuri bambuka umuhanda, bityo akagenda yitonze.

Icyapa cyo mu muhanda cyerekana yuko nta moto zemewe, kiri mu ibara ry'uruziga ndetse n'umutuku ucishijemo umurongo.

Icyapa cyo mu muhanda, gifite ishusho y'uruziga, kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, hanyuma ikirango kikaba cyandikishije ibara ry'umukara, kikaba kimenyesha abashoferi n'abandi batwaye ibinyabiziga bose ko umuvuduko ntarengwa ari makumyabiri.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya mpande enye kikaba kiri mu ibara ry'umuhondo, ibirango byandikishije ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umukara, ikiri mu ibara ry'umutuku kimenyesha kugenda gake gake.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'ibara ry'umutuku, ndetse imbere hacyo hakaba hasa umweru, kimenyesha umugenzi ndetse n'umuntu utwaye ibinyabiziga y'uko agomba kugenda gake atuje.

Icyapa cyo mu muhanda cya mpande enye kizengurutswe n'ibara ry'umukara cyose kikaba gisa umuhondo, harimo inyuguti ya ti imenyesha yuko umuhanda imbere uhura n'undi utambitse.

Icyapa cyo mu muhanda kiri m'ishusho y'ibara ry'umutuku kizengurutswe n'ibara ry'umutuku cya mpandeshatu kandi kikaba kimenyesha umushoferi yuko imbere hari abanyamaguru bahambukira.

Karongi disitirigiti, icyapa kigaragaza yuko umuntu yamaze kwinjira mu karere ka Karongi, hepfo y'umuhanda hari imashini yifashishwa mu bwubatsi iparitse mu murima kuko igiye kuwusiza bakawubakamo.

Umuhanda nyabagendwa ucamo ibinyabiziga bitandukanye uherereye Kimironko kwa Mushimire. Iruhande rw'umuhanda hari igipangu kinini cyane gifite jaride nziza irimo indabo ndetse n'ibiti.

Inzu igeretse inshuro imwe isize amarangi y'umuhondo, iri mu gipangu gifite amapine kandi hariho n'amatara abasha kuba yacana n'ijoro, inyuma y'gipangu hari parikingi nini cyane ijyamo imodoka nyinshi.

Inzu ya kadasiteri, ifite amabati y'umutuku mu gikari cyayo hari ikigega kinini cyane cyubakiye giteretse hejuru kijyamo litiro ibihumbi bitanu.

Inyubako ndende cyane yitwa Gihozo hoteli, hakaba hanze yayo hari parikingi nini cyane ishobora kujyamo imodoka nyinshi icyarimwe kandi abagenzi ndetse n'abakiriya bose bari gusiga imodoka zabo hanze bakinjira.

Inzu za kadasiteri harimo n'izigeretse, ni zo ziganje mu mujyi wa Kigali. Inyinshi zifite amabati atukura kandi hanze yazo haba hateye ubusitani bwiza cyane.

Igipangu kinini cyane cyubakishije amatafari ahiye. Mo imbere mu gipangu hari inzu nini cyane igeretse inshuro ebyiri, ifite ibirahure bya fume, haba hasi no hejuru.

I kanombe hafi y'ikibuga cy'indege hari resitora nziza cyane iteka neza kandi buri muntu wese ashobora kuza kuyiriramo kuko ibiciro byo ari hafi ya ntabyo. Hari na parikingi nini cyane ijyamo imodoka nyinshi icyarimwe.

i Kigali i Remera hari inyubako ebyiri zegeranye, iya mbere igeretse gatatu hanyuma iyikurikiye yo igeretse rimwe zifite parikingi nini zishobora kujyamo imodoka nyinshi icyarimwe abantu babishaka baraza bagaparika mo.

Inzu nziza cyane ifite ibirahure bya fume binini, kandi hanze yayo hari jaride nziza cyane, iteyemo indabo ndetse n'ibyatsi byiza, hari kandi n'ibiti bitanga akayaga n'umwuka mwiza wo guhumeka.

Igipangu gifunguka hakoreshejwe amapine, inyuma y'igipangu hateye indabo nziza cyane n'ibiti, mu gipangu mo imbere harimo inzu nyinshi zo gukodeshwa zigiye zubatse ku murongo.

Umuhanda nyabagendwa unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ukaba usa neza kuko uhora ukubuye, hakurya yawo hari inzu igeretse inshuro eshatu ifite ibirahure bya fime, hanze yayo hari igiti kinini.

Umuhanda nyabagendwa hafi yawo hari inyubako nziza cyane iri mu marangi y'umukara ndetse n'umuhondo, iriho icyapa kinini cyamamaza skol mart.

Igipangu kiba gikinguye kirimo amapave ashashe hasi kandi harimo n'indabo nziza cyane, gifite nimero ijana na mirongo itandatu na gatandatu, kandi gituriye umuhanda nyabagendwa.

Inyubako nini cyane igeretse inshuro eshatu, ikaba isize irangi ry'umuhondo, munsi hakoreramo ibintu bijyanye n'ubucuruzi byose kandi ifite parikingi nini cyane ijyamo imodoka nyinshi.

Inyubako y'ubucuruzi ya Venant Plazza, ikaba igereretse inshuro eshatu, ifite parikingi nini cyane ijyamo imodoka nyinshi, kandi zikajyamo icyarimwe.

Icyapa kigaragaza nimero y'umuhanda kiba giteye hafi y'aho umuhanda uri kugira ngo abantu babashe kumenya neza umuhanda bari bukatiremo baba bagana aho batuye cyangwa se hari abo bagiye kureba.

Inzu nyinshi cyane zo muri nyagavu zubatse mu kajagari kandi zifite amabati ashaje cyane, kuko zimaze igihe kinini, hafi yaho hari ishyamba kandi hari n'imirima.

Umunara muremure cyane uri hagati y'inzu nziza cyane za kadasiteri ziganjemo izifite amabati y'umutuku, akaba ari umudugudu munini cyane kandi utuyemo abantu benshi batandukanye.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, kandi hari parikingi irimo imodoka nyinshi z'ubwoko bwinshi, harimo iz'umweruru izisa umutuku kandi mu muhanda hari abamotari bari kuhanyura.

Igipangu cy'umukara gisize amarangi asa shokora kandi inyuma yacyo hari imiyenzi, hari umuhanda nyabagendwa ukigeraho, bityo bikorohera ba nyiracyo kuhagera mu buryo bworoshye.

Mu mujyi wa Kigali i Remera, umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye byiganjemo imodoka rusange ndetse n'izitwara abantu, kandi iruhande rw'umuhanda hari ibiti byiza binini biyungurura umwuka mwiza.

Kimironko, hari inzu nyinshi cyane, zubatse kimwe, z'ubwoko bwa kadasiteri, ziganjemo izifite amabati y'umutuku. Hari kandi n'ibiti byiza cyane biyungurura umwuka duhumeka.

Umuhanda nyabagendwa, buri muhanda uba ufite akayira k'abanyamaguru aho bashobora kunyura kandi batuje. Hakurya y'umuhanda hari ibiti byiza cyane biyungurura umwuka duhumeka.

Umuhanda nyabagendwa ucamo ibinyabiziga bitandukanye, hari akayira k'abanyamaguru kandi kazwi nka zebura kurosingi, iyo modoka zikagezeho, zigomba gutanga umwanya uhagije kugirango abanyamaguru babone uko bambuka batuje.

Inzira y'abanyamaguru yubakiye neza kuko ikoreshejwe amapave kandi ku ruhande rwayo hari umukingo wubakishije amabuye, hafi yawo hari ibiti ndetse n'ubusitani bwiza cyane.

Umuhanda nyabagendwa unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye hari n'icyapa kimenyesha abashoferi bose yuko aho hantu bahanyura bazengurutse buri mushoferi uhagera ahita abimenya.

Umuhanda nyabagendwa ugira aho abanyamaguru bambukira hazwi nka zebra crosing, kandi hari n'ibimenyetso byo mu muhanda bimurika, abashoferi n'abandi batwaye ibinyabiziga bagomba kubahiriza amategeko y'umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, imbere hari moto ebyiri kandi ku mpande z'uyu muhanda hateye ibiti byiza cyane biyungurura umwuka duhumeka.

Umuhanda nyabagendwa ufite amatara awumurikira iyo bwije, ku ruhande hari ibyapa biyobora ndetse n'ibimenyesha abashoferi, hari n'ibiti byiza biteye iruhande rw'inzira kandi biba biyungurura umwuka mwiza duhumeka.

Umuhanda nyabagendwa umanuka ukinjira mu wundi, hafi y'uko winjira mu wundi muhanda munini hari akayira abanyamaguru bambukiramo kazwi nka zebura kurosingi. Abashoferi iyo bahageze basabwe guhagarara.

Umuhanda nyabagendwa w'icyerekezo kimwe, urimo imodoka zigiye zitandukanye, imbere hari imodoka yo mu bwoko bwa vigo, ifite ibara ry'umukara, irimo iragenda mu muhanda. iruhande rw'umuhanda haba hari ibiti ndetse na jaride.

Umuhanda nyabagendwa ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, higanjemo moto, amakamyo ndetse n'imodoka z'abantu ku giti cyabo, ku ruhande rw'inzira nyabagendwa hari icyapa abantu bahagararamo ndetse hakaba hubakiye kuko batanyagirwadwa.

Umuhanda nyabagendwa wagenewe gucibwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande haba hari jaride nziza irimo ibiti, indabo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa ariko ushaje kuko umaze igihe kinini unyurwamo n'imodoka nyinshi kandi zitandukanye harimo iziremereye, inyuma hari imodoka nini cyane itwara ibicuruzwa.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo ufite isuku kuko ushobora kuba ukuburwa inshuro nyinshi, kandi ku ruhande rwawo hateye indabo ndetse n'ibiti byiza cyane.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo mu byerekezo byombi hanyuramo ibinyabiziga bitandukanye moto ibinyabiziga by'abantu ku giti cyabo amakamyo ndetse n'ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Ishuri ry'inshuke riri hafi y'umuhanda rifite igipangu cy'umweru, inyuma yaryo hateye ibiti byinshi bitanga amahumbezi n'umutuzo ku bana bahiga.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, higanjemo moto zifashishwa mu gutwara abagenzi. Zicanye amatara bigaragara ko bwije kandi uyu muhanda urasukuye urasa neza kuko bahora bawukubura.